Kugira ubwonko butekereza neza, bigufasha kumva ndetse no gufata ibyemezo rimwe na rimwe ndetse no kubana n'abandi. Iyo ufite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa cy'ubwonko, ni ukwihutira kujya kwa muganga, ugahura n'ababishinzwe bakagufasha.

Ubutumwa bushishikariza abantu guhangana n'ibibazo by'indwara zo mu mutwe mu Rwanda bugaragaza umuhate wo gukangurira abantu kumenya no gufasha abafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe cyane cyane mu rubyiruko, bityo haba hagamijwe gukomeza gushyira imbere ubuzima bwiza bwo mu mutwe mu muryango nyarwanda.

Amaraso afite akamaro gakomeye ku buzima bwa muntu. Iyo umuntu ntamaraso afite ntabuzima yaba afite. Bityo rero, bituma abikwa ahantu heza, hizewe ndetse hafite isuku kwa muganga.

Imyitozo ngororamubiri, ifite akamaro gakomeye ku buzima bwacu, ikora ku mubiri wose ikarushaho gukomeza imikaya, amagufa n'imikorere y'umutima. Ikindi ni uko igabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima, umuvuduko w'amaraso, kanseri, indwara z'imitsi n'izindi ndwara nyinshi.

Gukora imyitozo ngororamubiri unywa amazi, bifasha gusubiza imbaraga mu mubiri, kwirinda umwuma, no kurinda imitsi gucika intege, igihe ukora imyitozo ngororamubiri.

Ibyatsi bigira akamaro ku buzima bwa muntu. Iyo urwaye umutwe, mu nda, ndetse n'ahandi hose umuntu ashobora kuba ababara ku mubiri, bifasha kugira ngo abashe gukira. Bityo rero kubibungabunga ni byiza.